Umumama wambaye igitenge hasi n'ishati hejuru, witeze igitambaro mu mutwe wikoreje ingata indobo y'umutuku ufite indi mu ntoki y'icyatsi, imbere yiwe hari inzu n'ibiti bihari.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara, wambaye ishati ijya gusa iroze n'ijipo y'umukara n'inkweto z'umukara, wateretse ikivomesho cy'umuhondo mu mabase abiri agerekeranye, iruhande rwiwe hari inyubako n'ibiti.

Umumama wambaye indorerwamo z'amaso n'agapfukamunwa n'ikanzu ikozwe mu gitenge, uri guha imiti umumama uteruye umwana, upfunyikishijwe ibintu by'umuhondo, iruhande rwabo hari abantu, hirya hari inyubako n'ibyatsi.

Inyubako ifite ikigega cyubakishije amatafari ahiye mo mbere harimo umuntu urimo, ifite imiryango isize irangi ry'ubururu, ifite uruzitiro rukozwe n'ibyuma inyuma yaryo hari.

Abantu batandukanye bambaye amataburiya ajya gusa umweru n'amakarita y'akazi mu gatuza, imbere yabo hahagaze umupapa wambaye ikote ry'umukara n'indorerwamo z'amaso, inyuma yabo hari umuntu uri kubafotora hari inyubako n'ibiti.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru n'amakarita y'akazi mu gatuza, inyuma yabo hari igitambaro kinini gishushanyijeho abantu bari ahantu hamwe hino hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bambaye ingofero z'ubururu n'amakanzu y'ubururu bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda bambitse igitambaro cy'ubururu mu gatuza gushyika hasi, hejuru nta kintu kiriho, mu nyubako harimo ibyuma bikoreshwa mu kwita ku murwayi.

Abantu benshi bahagaze hamwe bambaye amakarita y'akazi mu gatuza n'impuzankano, inyuma yabo hari undi muntu uri gufotora uhari, imbere hari umuntu uhahagaze wambaye indorerwamo z'amaso, hirya hari inyubako y'igiti kirekire.

Ishusho y'urukiramende iri mu ibara ry'ubururu, hari amagambo yanditseho mu mpine ari mu ibara ry'umweru atsibaze, iruhande hari ishusho y'uruziga irimo abantu babiri, munsi hari andi magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara, wambaye utuntu mu matwi, wambaye n'itaburiya y'umweru, iruhande rw'iwe hari ameza ahari ariho impapuro n'ikaramu, uri kumva ku nda y'umwana uko hameze, uri kumwe n'umumama w'iwe ufite agakapu mu ntoki.

Umuntu wicaye iruhande rw'ameza ufite umusatsi w'umukara wambaye n'imyenda y'iroza uri kuganiriza abandi bamama bicaye iruhande rwiwe, inyuma yabo hari ibikapu bihari n'amarido arimo ibara ry'ubururu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ikirangantego kiri mu ishusho y'uruziga harimo abantu babiri bari kurebana mu maso, inyuma hari udushami tubiri tunyuranyemo dufite ibibabi bitandukanye, byose biri mu ishusho y'ibara ry'ubururu.

Ikirangantego kiri mu ishusho y'uruziga kigizwe n'amabara y'ubururu, umweru n'icyatsi, iruhande rwaho hari amagambo yanditswe mu mpine, munsi ari mu magambo arambuye ari mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'inyubako gishashemo tapi y'icyatsi, hari abantu bahari bahagaze imbere y'abana bambaye impuzankano y'ishuri, harimo n'umwarimu wabo wambaye imyenda y'umweru, hino hari indangururamajwi.

Umumama witeze igitambaro cy'umweru, wambaye ishati, ukenyeye igitenge iruhande rwe hari umwana uhahagaze, imbere hari umugezi bari kuvomera amazi mu bikoresho bitandukanye hirya hari abana bari gusunika amazi mu tiyo n'ibiti bihari.

Abantu bicaye mu buryo barebana, hari umumama uhagaze hagati yabo uri kuvuga ijambo, imbere y'iwe hari ameza arambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, hejuru hateretseho amacupa y'amazi n'ibikapu.

Umumama ufite umusatsi w'umukara uboshye, wambaye agapfukamunwa n'amaherena n'agakomo mu gatuza n'isaha ku kuboko n'impeta, uteruye umwana uri kumusoma, inyuma yiwe hari undi muntu uteruye umwana.

Umumama wambaye ingofero n'umupira w'umweru inyuma hariho akajiri, uri guha amata mu cyansi abana bambaye imipira ijya gusa oranje, hejuru inyuma ye hari abandi bantu bahari.

Umwana wambaye ikanzu n'inkweto zifunguye, uri gukaraba mu ndobo y'umweru, iruhande rwiwe hari umugezi, hino hari izindi ndobo ebyiri z'umweru, inyuma yiwe hari ibiti birebire bihari.

Abantu b'igitsina gore bahagaze iruhande rw'umugezi, harimo umumama wambaye ishati y'umuhondo witeze igitambaro, ukenyeye igitenge, iruhande ku mugezi hari umuntu uhahagaze uri kuvomesha, inyuma yabo hari ibiti.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bahuriye hamwe, bose bamanitse ibipapuro mu kirere byanditseho amagambo atandukanye, inyuma yabo hari inyubako irambuyeho igitambaro cy'umweru gishushanyijeho ikimenyetso kiri mu ishusho y'uruziga n'amagambo yanditseho.

Umumama witeze igitambaro mu mutwe, wambaye ishati ijya gusa iroza n'amaherena ku gutwi, uri kuvomera amazi mu ndobo y'ubururu, hino hari undi mumama uri kumuteruza ufite imisatsi iboshye hino yabo hari abandi bamama n'umwana uhari.

Abantu benshi bahagaze ku butaka inyuma yabo hari inyubako isize irangi ry'ubururu, hariho abantu bafite abana n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda munsi hariho andi ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu bicaye mu buryo bukikije imeza, iteretse hagati yabo, bamwe bambaye indorerwamo z'amaso, abandi batazambaye, hejuru ku meza hariho amasahani n'udukombe.

Umumama wambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'amaboko magufi ukenyeye igitenge, uri kuvoma amazi ku mugezi, ufite ikivomesho kijya gusa umuhondo, inyuma yiwe hari ibyatsi bihari.

Umwana wambaye umupira w'amaboko maremare n'ikabutura y'umutuku n'inkweto zifunguye, uri ku mugezi kunywa amazi akoresheje ibiganza, hasi hateze indobo, hirya y'iwe hari ibiti bihari n'inyubako ndende.

Umupapa muremure uri gusuhuza undi mupapa mugufi wambaye indorerwamo z'amaso ikoti ry'umukara n'ikarita y'akazi mu gatuza, inyuma yiwe hari abantu bahari n'igiti cy'umukindo kiri hirya, inyuma yabo hari igishushanyo kiri mu ishusho y'uruziga.

Umwana wambaye umupira w'umutuku, ugaragara ugutwi kumwe, ufite igikombe cy'icyuma mu ntoki, uri kuvoma amazi ku mugezi ufite impombo ebyiri, inyuma y'iwe hari ibyatsi.

Amagambo y'umukara atsibaze, ari mu rurimi rw'Icyongereza, hasi hari andi ari mu rurimi rw'Icyongereza, yanditswe mu ibara ry'umweru n'igice cy'uruziga cyanditsemo imibare igiye itandukanye.

Abamama babiri bunamye ku mugezi, umwe ari kunywa amazi undi ari gukaraba mu ntoki, iruhande rwabo hari ibivomesho, hirya hari umuntu wambaye agapfukamunwa, uri kuvomesha, inyuma yiwe hari ibiti.

Abantu bahagaze hamwe inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hasi hariho ikigantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, hino yaho hari akandi kapa kanditseho amagambo ari mu mpine.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bafite umusatsi uringaniye, bambaye amashati y'umuhondo afite amaboko n'ikora y'ubururu, bambaye amakabutura ajya gusa ubururu, imbere yabo hari imigezi itatu iri kuvamo amazi.

Ibirangantego bitandukanye imbere yabyo hagiye handitse amagambo, bimwe biri mu ishusho y'uruziga ibindi biri mu ishusho ijya kumera nk'uruziga, amagambo amwe yanditse mu ibara ry'umukara andi yanditswe mu ibara rijya gusa ubururu n'andi ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye mu buryo bakikije imeza irambuyeho igitambaro k'icyatsi, hejuru hateretseho ibikombe birimo umutobe n'amakayi ahari, inyuma yabo hari abandi bantu babateye umugongo.

Abamama babiri biteze ibitambaro bari guterura umufuka urimo ibintu mo imbere, bari gufashwa n'umupapa uhagaze hejuru y'indi mifuka ihari, hirya yabo hari inyubako n'ibiti.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri ufite umusatsi, wambaye ishati ijya gusa icyatsi, n'ikabutura, uri gukarabira amazi ku mugezi, inyuma y'umugezi hari indobo ihari, inyuma yiwe hari ibiti bihari n'inzu.

Uruziga rutuzuye neza ruri mu ibara ry'ikigina, imbere harimo umurongo uvunaguye uri mu ibara ry'ubururu, hino yaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umumama wicaye mu ntebe y'ubururu uteruye umwana ufite igipapuro mu ntoki imbere yiwe hari undi mupapa ufite ikaramu mu ntoki n'igipapuro ari kwandikaho, wambaye ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru wicaye ku ntebe y'indambure, inyuma yiwe hari igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri ishati y'icyatsi n'ikabutura hasi, uri gukarabira ku mugezi, iruhande rwawo hateretse indobo y'ubururu, inyuma y'iwe hari ibiti bihari n'inyubako.

Umupapa ufite umusatsi mukeya, uri guseka wambaye ishati y'ikora ifite amaboko magufiya, uhagaze iruhande rw'umugezi afashe kuki kivomesho, inyuma yiwe hari ibyatsi n'inyubako.

Umusore wambaye umupira wa oranje, wanditseho amagambo mu bitugu, uri guha umwana uteruwe n'umumama wambaye umupira w'umweru, uri guhabwa amata, inyuma y'iwe hari abandi babyeyi bahari, bicaye kumukeka.

Umumama wambaye imyambaro wikoreye ikivomesho cy'umuhondo gifite umufuniko w'umutuku ukikoreje ingata, imbere yiwe hari umwana wambaye impuzankano ya kaki n'undi wambaye impuzankano ya kotoni, imbere yabo hari inyubako ihari.

Umumama uteruye umwana ufite n'igipapuro mu ntoki gifatishijwe amaboko yombi, hino hari agakomo kari ku kuboko wambaye imyenda y'igitenge, witeze n'igitenge gisa n'imyenda yambaye, inyuma yiwe hari abandi bantu bahari bicaye benshi.

Umwana ufite umusatsi uboshye wambaye imyenda ikozwe mu gitenge, uri gukaraba amazi ku mugezi. Hasi hari ikibase cyateze, inyuma yiwe hari igikuta cyubakishije amatafari adahiye.

Umwana ufite ikivomesho cy'umuhondo, uri kudubika ikivomesho mu mazi atemba, iruhande rw'iwe hari igicucu gihari n'ibyatsi, inyuma y'iwe hari igicucu cy'ibyatsi.

Umumama ufite umusatsi uboshye, wambaye amaherena ku gutwi, wambaye impuzankano y'umweru, uri kwita ku mwana amuha umuti, umwana uteruwe n'umumama ufite umusatsi w'umukara, wambaye ikanzu y'igitenge wicaye mu ntebe.

Umwana uri ku kumugezi uri guseka, ufashe ku mpombo y'umugezi, uri kuvomera amazi mu kivomesho cy'umuhondo, inyuma y'umugezi hari umwana wambaye ishati y'amoko magufi n'ikabutura, uri gusunika amazi mu mpombo.

Abana bafite ibivomesho bari kudubika mu mugezi utemba inyuma yabo hari agasozi kariho ibiti n'ibyatsi byumagaye, hasi hari amagambo yanditsweho ari mu ibara ry'umukara.

Umwana wambaye ikanzu ikozwe mu gitenge ufite umusatsi mukeya, ufite amenyo y'umweru uri gukaraba ku mugezi, hirya yawo hari ikivomesho gisa ubururu n'ibindi bisa umuhondo, hirya ari ishyamba.

Umwana ufite imisatsi iboshye wambaye ikanzu ikozwe mu gitenge, uri gusuka amazi ari mu icupa ry'umweru, iruhande rw'iwe hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye n'ikindi cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'uruganiriro bicaye bakikije ameza bari kurebana, ku meza harambuyeho amakayi ariho mudasobwa, telefoni, hirya ku gikuta hari insakazamashusho ihari.

Umupapa uri mu ishusho y'urukiramende wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati, munsi handitseho amazina yiwe, imbere yiwe hari amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza, hejuru hari ayandi yanditse mu ibara ry'umweru atsibaze.

Abantu benshi batandukanye bari ku mugezi umwe uri gusunika amazi mu itiyo, imbere hariho ikivomesho kiri kuvomwa gifite ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari inyubako n'ibiti bihari.

Umwana wicaye ku mugezi uri guseka ukaraba mu ntoki, imbere yiwe hari ibivomesho kimwe gisa ubururu, ibindi bisa umuhondo, hirya hari ibyatsi n'ibiti bihari.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati y'amaboko maremare, uri gupima ingano y'ukuboko k'umwana uteruwe n'umumama witandiye, hirya hari undi mupapa wambaye umwenda w'umweru uri kwandika, inyuma ye hari abantu.

Abana bari ku mugezi bari kuvomera amazi mu bivomesho, hino y'umugezi hari umukobwa mukuru uri gusunika amazi, hirya hari imodoka iri kugenda mu muhanda n'ibiti byinshi.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri uri gukaraba mu ntoki imbere ywe hari indobo irimo amazi n'ibase iteretseho, inyuma yiwe hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abamama babiri bateruye umufuka, umwe witeze igitambaro, undi wambaye ingofero, imbere yabo hari abandi bantu bahari, n'indi mifuka iharunze myinshi, hirya hari undi muntu uhagaze mu byatsi.

Umuntu ufite umusatsi uboshye, wambaye amaherena n'umupira w'icyatsi n'isaha y'umweru ku kaboko n'ijipo y'umukara, ari gucuruza imiti gakondo iri mu bikarito bitandukanye.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri ya kaki, bari ku mugezi uvira mu byerekezo byombi, bamwe bafite indobo z'umuhondo, abandi bafite utubido, inyuma yabo hari ibiti by'imikindo byinshi bihari.

Umupapa wambaye ishati y'ubururu ifite ibifungo uri kuvugira mu ndangururamajwi, imbere yiwe hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe wambaye ingofero y'umukara, ikote ry'umukara, ufite amashashi arimo amazi n'ipantaro yacikaguritse, iruhande rw'iwe hari agakarito kacikaguritse gahari, inyuma hari igikuta.

Umupapa ufite inkoni mu ntoki, uri kumwe n'umumama wambaye urunigi mu gatuza, ukenyeye igitenge. Bafashe umwana ubarimo hagati, umeze nk'urwaye. Inyuma yabo hari abandi bantu bari kubitegereza.

Abantu benshi batandukanye, bamwe bambaye amakoti abandi batayambaye, abari ku murongo w'imbere bose baricaye inyuma yabo hari abandi bahagaze, abenshi bambaye imipira isa ifiteho amagambo yanditseho mu gatuza, inyuma yabo hari icyapa kimanitse ku gikuta.

Umumama ufite umusatsi w'umukara wambaye amaherena n'ishati y'igitenge inyuma hariho akajiri, wambaye udukomo ku maboko yombi, n'agapfukamunwa ku maboko, inyuma yiwe hari abandi bantu bahari hari n'umumama wicaye ufite ikayi n'ikaramu mu ntoki.

Umumama ufite umusatsi w'umukara wambaye indorerwamo z'amaso, wambaye umwenda urimo amabara y'umuhondo n'ubururu, ufite udukomo ku maboko n'impeta ku ntoki uri kwerekana ikarita ye y'akazi.

Umuntu ufite umusatsi w’umukara wambaye ikote n'ipantaro izirikishijwe umukandara, uri kubwira abandi bantu bicaye mu ntebe, imbere yabo hari ameza ariho telefoni n'icupa ry’amazi, inyuma yiwe hari ibyapa bimanitse ku gikuta.

Inyubako itangirwamo imbwirwaruhame abantu bicaye mu ntebe imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, hejuru harambitseho amazi na telefoni n'ibikapa, imbere yabo hari umuntu uri kubaha ijambo.

Umuntu wambaye ishati ikozwe mu gitenge, ufite imitsi ku maboko wambaye umwenda hasi w'umukara uri kureba mu kirere wegamye ku gikuta gifite irange ry'umweru, hirya mu nguni hari ibyatsi birimo.

Abamama batatu bari kumwe umwe ufite umwana mu kwaha uri konka afite n'umufuka mu ntoki, bose bafite ibiti mu ntoki by'imbingo, umwe ufite igitiyo mu ntoki inyuma yabo hari ibiti bihari n'insina.

Umumama wambaye umupira w'umweru. Ushushanyijeho mu gatuza n'ipantaro y'umukara, ufite amakayi ku bibero, uri kwereka muri telefoni, ufite agapimo mu ntoki, iruhande rwe hari umumama uteruye umwana.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bahuriye mu cyumba cy'inama bamwe, bari gukoma mu mashyi, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hejuru hariho amakayi n'amacupa y'amazi, inyuma yabo hari ikindi gisenge gihari.

Gifite imibare mu mpande no hasi, hejuru hatambitseho akarongo kari mu ibara ry'umutuku kaberetse, n'amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'icyongereza, hejuru hari amagambo ari mu ibara ry'umukara atsibaze.

Inyubako ndende iteye irangi ry'umweru, ifite amadirishya menshi, imbere yayo hari ubusitani buhari burimo pasikarumu, imbere hari ibyapa bibiri bihari.

Umumama ufite umusatsi w'umukara uboshye wambaye amaherena n'umupira w'umukara wicaye ku ntebe, imbere yiwe hari ameza ariho udukoresho, hirya hari umukobwa wambaye umwenda w'ubururu urimo ibara ry'umweru.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati y'umweru, inyuma yiwe hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hejuru hari amagambo ahari yanditswe mu ibara ry'ubururu, ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, hasi hari andi yanditse mu ibara ry'umukara.

Umwana ufite imisatsi iboshye, uri kwikubisha akantu mu menyo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi na karuvati y'umukara, wicaye ku ntebe y'inyegamirwe, imbere yiwe hari ameza ahari inyuma ye hari abantu.

Abapapa n'abamama n'umwana bicaye ku ntebe z'indambure, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ya rukarakara, umuryango ufunguye hirya hari insina z'imibyari n'ibiti bihari.

Umuntu ufite ibitsike by'umukara n'ingoyi z'umukara, ufite uduheri tutari twinshi mu maso, ubumbye iminwa, ufite ijisho risa umutuku ririmo ibara ry'umukara, uri kurira.

Umuntu wambaye ingofero uri guseka, wakutse amenyo wambaye ishati y'umweru irimo uburongo bw'umukara wikenyeye igitambaro cy'umuhondo mu gatuza, ufite icumu mu ntoki.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara uhumbisha amaso, ufite amenyo y'umweru n'ururimi rw'umutuku, wambaye umupira, uri mu ibara ry'umuhondo udafite ikora, ufite ubwanwa bw'umukara.

Umuntu wambaye ingofero ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati y'umutuku, wicaye ku ntebe wifashe ku itama, uri kwitabwaho n'umumama wambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara.

Abantu bahagaze bari kwifotoza, bari guhabwa ishimwe, inyuma yabo hari imodoka ifunguye umuryango, ihahagaze hirya ari amahema ahari.

Umuntu ufite umusatsi mutoya uringaniye, wambaye ishati ya karokaro mo imbere, inyuma hariho itaburiya y'umweru ifite ikirangantego mu gatuza uri mu ishusho y'uruziga, inyuma yiwe hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye agapfukamunwa n'ishati n'ipantaro, wicaye ku ntebe y'indambure, imbere yiwe hari abandi bantu babiri bahari, umwe ufite ibipapuro mu ntoki, inyuma yabo hari inyubako.

Abantu benshi batandukanye bahagaze ku ibaraza ry'inyubako, bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo mu gatuza, bari kumwe n'umupapa wambaye ishati y'umweru na karuvati n'undi mumama wambaye ikoti rijya gusa kaki wambaye indorerwamo z'amaso.

Umupapa ufite umusatsi uzingazinze usa nabi ufite n'ubwanwa busa nabi, uri kwasama wambaye ishati yacikaguritse, inyuma yiwe hari inyubako ihari isakaje amabati y'umutuku hirya hari ibyatsi.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi barwaye amenyo, harimo intebe ifite amapine n'igitanda gifite amapine, hirya hari ameza ariho mudasobwa hejuru n'intebe iteye iruhande rw'ameza n'indabyo ziri muri icyo cyumba.

Umupapa ufite imisatsi izinze yerekeje igihande kimwe, ufite amaso y'umweru arimo ibara ry'umukara, wambaye umupira w'umweru, ufite urudodo rw'umweru mu ntoki uri kurunyuza mu menyo, uri kwireba mu ndorerwamo.

Urujya n'uruza rw'abantu, bahuriye ahantu hamwe, bamwe bicaye, abandi bahagaze, inyuma yabo hari abafite igishushanyo, kiri mu ishusho y'urukiramende, inyuma hari igitambaro cyanditseho amagambo.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, amashati ajya gusa umweru n'amajipo y'icyatsi; bafite uburoso, bari kwikorera isuku mu kanwa; inyuma yabo hari igiti gihari.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru, wambaye indorerwamo z'amaso n'umupira ujya gusa umweru, ufite akantu mu ntoki ari kureba, iruhande rw'iwe hari ubukarabiro, uri kwireba mu ndorerwamo.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye indorerwamo zabugenewe, wambaye n'agapfukamunwa k'umweru n'itaburiya y'umweru ufite ikaramu mu ntoki uri kwandika ku gipapuro kirambuye, ku meza iruhande rw'iwe hari ibyuma bihari.

Umuntu ufite ubwanwa bw'umukara n'amenyo y'umweru n'ishinya y'umutuku wambaye ubusa hejuru, ufite igitambaro cy'umweru ku rutugu, ufite urudodo rw'umweru mu ntoki uri kurunyuza mu kanwa.

Ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ariho imiti y'amenyo, imbere yayo hari abantu bahicaye bambaye imipira y'icyatsi yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu gatuza, hari umumama uri kwikorera isuku mu kanwa.

Umwana uryamye ku gitanda kwa muganga, ufite umusatsi w'umukara uzinze, ufite amaso y'umweru arimo ibara ry'umukara, ufite amenyo y'umweru n'ururimi rw'umutuku, ari gukura amenyo, uru kuyakurwa n'umuntu wambaye uturindantoki tw'umweru

Umupapa uryamye kwa muganga ufite umusatsi w'umukara n'amaso y'umweru, arimo ibara ry'umukara, ufite amenyo y'umweru, uri kwitabwaho n'umumama wambaye uturindantoki tw'ubururu, ufite akantu kariho amenyo mu ntoki ziwe.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara uboshye, wambaye umupira w'umweru uri kumwe n'umwana wogoshe ufite uturongo tubiri mu mutwe, wambaye umupira w'umweru, bose bafite urudodo rw'umweru bari kunyuza mu menyo.

Umupapa wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'ikarita y'akazi mu gatuza, wambaye isaha ku kaboko bari kwiga guhandura iryinyo ku kibumbano kirambitse ku meza.

Umumama ufite umusatsi w'umukara ugera mu maso wambaye amaherena uhumirije amaso, ufite inzara z'umweru, wambaye isengeri y'umweru, ufite urudodo rw'umweru uri kurunyuza mu menyo.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara, wambaye indorerwamo z'amaso, n'itaburiya y'umweru, ifite ibifungo, n'uturindantoki tw'umweru, uri gukura iryinyo umwana uryamye kwa muganga, wambaye ishati, inyuma hariho umupira.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara, wogoshe igice kimwe ufite n'ubwanwa bw'umukara, ufite amaso y'umweru arimo ibara ry'umukara, wambaye ubusa hejuru, ufite urudodo mu ntoki zombi uri kurunyuza mu menyo.

Umumama ufite umusatsi w'umukara wicaye mu ntebe, wambaye umupira w'amaboko maremare n'impeta ku kuboko, uri kwitabwaho n'undi wambaye itaburiya ijya gusa ubururu ufite imisatsi y'umukara izinze.

Umupapa wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu ufite ikora n'inkweto zifunze ufashwe ku rutugu n'undi mu papa wambaye ingofero, ishati y'amaboko maremare, isaha ku kuboko inyuma yabo hari ibyatsi n'ibiti.

Umuma ufite umusatsi w'umweru, wambaye urunigi mu izosi n'umupira ujya gusa ubururu, uhagaze ahavugirwa ijambo, wambaye agakomo ku kaboko ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yiwe hari inyubako ihari n'ibiti bihari n'imodoka ziri kugenda.

Umumama n'umupapa bicaye ku meza bari gufungura inyuma yabo hari umusore uhari wambaye ikarita y'akazi mu gatuza n'indorerwamo z'amaso, inyuma nanone hari abandi bantu bicaye ku meza bahari.

Abantu benshi bicaye mu buryo bw'uruziga bari kuganira, bicaye munsi y'igiti kirekire gifite amababi menshi, inyuma yabo hari inyubako n'ibiti bihari.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru wambaye indorerwamo z'amaso. Wambaye ishati ijya gusa umutuku ifite ibifungo wicaye mu ntebe uri kuvurwa n'umumama ufite umusatsi w'umukara uzirikishije umubano, wambaye itaburiya ijya gusa ubururu.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru wambaye umupira ujya gusa umukara w'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, uri guhagurutswa ku buriri n'undi mupapa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi n'umumama wambaye umupira ujya gusa umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi.

Abapapa babiri bambaye ingofero z'urugara umwe wambaye indorerwamo z'amaso n'ishati ijya gusa ubururu, wikenyeye igitambaro cy'umweru mu gatuza, undi wambaye ishati y'umweru wikenyeye n'igitambaro cy'umukara mu gatuza, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bahari.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru wambaye agakomo ku kaboko, n'umupira w'amaboko magufi, ufite ibinini mu ntoki, uri kumwe n'umumama wambaye umupira wumutuku n'amaherena ku kuboko, ufite agapapuro mu ntoki karambuye ku meza hariho indabyo.

Umumama wambaye indorerwamo z'amaso n'amaherena uri gukata imboga ku kabaho karambitse hejuru y'ameza, iruhande rwiwe hari umukobwa uhari wambaye amaherena ufashe isahani mu ntoki.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru wambaye indorerwamo z'amaso n'ishati y'umweru uri kumwe n'umugore wambaye umupira w'amaboko maremare, mo imbere harimo agapira k'umweru bari gukina umukino wo gutondeka inka kumeza.

Icyumba cy'inyubako kirimo abapapa bamwe bicaye ku mukeka abandi bicaye ahatari ku mukeka, harimo umupapa wambaye akagofero k'abisilamu uri kuboha igiseke, iruhande rwiwe hari icupa ry'amazi rihateretse.

Umupapa uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye isaha ku kuboko n'umupira w'umweru ufite ikora, ufite umusatsi w'umweru uvanze n'umukara uri kwitabwaho n'umumama wambaye impuzankano y'ubururu wambaye isaha ku kuboko n'ikarita y'akazi mu gatuza, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru, wambaye indorerwamo z'amaso, ufite ubwanwa bw'umweru, wambaye ishati ijya gusa umutuku, wifashe ku kananwa, afite ikaramu mu ntoki, uri gusoma igitabo gishushanyijeho ibintu by'imirongo iri mu ibara ry'umukara.

Umupapa wicaye mu ntebe wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare n'ipantaro ya kaki, uri kwitabwaho n'umukobwa ufite umusatsi w'umukara uzirikishije umubano, wambaye itaburiya ijya gusa ubururu.

Inzitiramibu imanitse hejuru y'igitanda, bari guhagurutsaho umupapa wambaye ishati y'amaboko maremare, n'i ndorerwamo z'amaso, uri guhagurutswa n'umumama ufite umusatsi muremure wambaye itaburiya y'umweru.

Umumama ufite umusatsi w'umukara wambaye akuma mu gatuza, wambaye n'itaburiya ijya gusa ubururu, uri kwita ku mumama ufite umusatsi w'umweru wambaye indorerwamo z'amaso n'umupira w'umweru uciyemo umurongo w'umukara, iruhande rwabo hari ibiti.

Umumama ufite umusatsi w'umukara uboshye, wambaye agakoti kajya gusa ubururu gasa n'ipantaro, ku ikote hamanutseho uturongo ku rutugu tw'umweru, uri kumwe n'undi mu mumama wambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu uzinze amaboko, wambaye igitambaro cy'umutuku, inyuma yabo hari ibyatsi n'ibiti bihari.

Umumama ufite umusatsi w'umukara urimo n'umweru, wambaye ikanzu ufite akaboko kanini, uri kuvurwa ku kaboko n'undi ufite imisatsi izinze wambaye indorerwamo z'amaso n'imhumuzankano isa iroza, inyuma yabo hari ishyamba.

Umupapa ufite uruhara n'umusatsi w'umweru wambaye ishati y'amaboko maremare, uri kumwe n'umumama ufite imisatsi miremire, wambaye itaburiya n'ikarita y'akazi, mu gatuza. Imbere yabo hari ameza ariho radiyo na telefone bari gukanda.

Umumama ufite umusatsi w'umukara, wambaye umupira w'umweru ufite ibifungo uri kurambura agatambaro gasa umutuku uri kwitabwaho n'undi mumama wambaye itaburiya ijya gusa umukara n'akuma mu gatuza.

Umupapa wambaye umwenda w'umweru, uryamye mu buriri kwa muganga, ufite ubwanwa bw'umweru, iruhande rwiwe hari ibyuma by'ikoranabuhanga bicometse. Hirya hari umuganga wambaye akuma mu gituza, wambaye n'ikarita y'akazi.

Umumama wambaye umupira ujya gusa umuhondo w'amaboko maremare, ufite umusatsi w'umukara wambaye n'amaherena, urambitse amaboko ye ku meza uri guha imiti undi muntu umwicaye imbere wambaye indorerwamo z'amaso, iruhande rwiwe ku meza hari ikirahure.

Abantu benshi bicaye mu ntebe imbere yabo hari abandi bantu bari kubyina barambuye amaboko, inyuma yabo hari igitambaro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku hariho ikirangantego k'Igihugu n'amagambo yanditse mu mpine.

Ishusho igaragaza ubwonko bw'umuntu hino hari amagambo yanditse mu mpine ari mu ibara rijya gusa umukara n'andi yanditse mu ibara rijya gusa icyatsi n'andi yanditswe mu ibara ry'umweru n'andi yanditswe mu ibara rijya gusa ubururu.

Amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'andi ari mu ibara ry'umukara, hino hari ikirangantego kiriho, hirya handitseho amagambo arambuye, hari umumama uri konsa umwana inyuma yiwe hari abandi bantu bahari.

Umuntu wambaye ishati y'umweru ifite ikora, afite umusatsi w'umukara, iruhande rwiwe hari amagambo ahanditse ari mu ibara ry'umweru atsibaze n'andi adatsibaze, hejuru hari andi yanditswe mu ibara rijya gusa ubururu ari mu kazeru k'umweru.

Amagambo ari mu ibara ry'ubururu atsibaze, yanditswe mu bishushanyo by'impande bitandukanye, amwe yanditswe mu gishushanyo cya mpande eshatu, hino hari andi magambo yanditswe mu ibara rijya gusa ubururu atsibaze.

Abantu bahagaze kuri tapi y'icyatsi, bose bafite amakarita y'akazi mu gatuza, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye, byanditseho amagambo, amwe ari mu ibara ry'umutuku, andi ari mu ibara ry'umukara. Hejuru ku gisenge, harimo amatara ari kwaka.

Ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda kiri mu ishusho y'uruziga mo imbere harimo agaseke n'isaka, iruhande hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi, n'andi ari mu ibara ry'umukara, n'andi ari mu ibara rijya gusa icyatsi.

Igitambaro kinini kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu mpine, hino ahari mu magambo arambuye ari mu ibara ry'umukara ritsibaze, munsi hari andi yanditswe mu ibara ry'umukara.

Uruziga rwanditsemo amagambo ahinnye mo imbere, hino yaho yanditse mu magambo arambuye ari mu rurimi rw'Icyongereza, mo imbere hashushanyijemo Ikarita y'Igihugu cy'u Rwanda.

Amagambo ari mu ibara ry'umukara agiye ari mu tuzu twubatse mu buryo bw'urukiramende, hino hari andi magambo yanditse ahagaze mo hagati, harimo imirongo igiye iyagabanya.

Abamama bicaye mu nyubako bose bateruye abana mu ntoki za bo, inyuma yabo ku gikuta hariho amafoto atandukanye, harimo ifoto y'umuntu uteruye umwana n'indi foto y'umupapa ufashe umumama ku rutugu.

Igitambaro kinini kiri mu ibara rijya gusa ubururu, ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru atsibaze n'andi adatsibaze, munsi hari andi yanditse mu ibara rijya gusa umuhondo n'ibirangantego munsi bihari.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye udupfukamunwa tubiri, wambaye itaburiya y'ubururu mo imbere harimo umupira w'umweru uri guterwa urushinge ku kaboko, n'undi muntu wambaye ingofero y'abisilamu wambaye agapfukamunwa.

Amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku atsibaze, rishushanyijemo ikarita ya Afurika iri mu ibara ry'umuhondo, hino hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku, hasi hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bamwe bambaye amakote, abandi batayambaye harimo n'igitsina gore, inyuma yabo hari igikuta gisizwe amarangi ajya gusa umutuku n'andi ajya gusa umuhondo.

Umuganga uri kwita ku murwayi uryamye ku kuma kabukenewe karambitse mu byatsi, iruhande rwiwe hari abandi bantu b'abakoranabushake bahari bose bambaye udupfukamunwa, hirya hari igiti kirekire n'inyubako.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara uboshye wambaye agapira kajya gusa icyatsi n'ijipo, ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye indorerwamo z'amaso, inyuma yiwe hari umucuranzi uhari, imbere yiwe hari abantu bahicaye.

Igitambaro kinini gishushanyijeho ibiribwa bitandukanye, harimo karoti, inyanya n'izindi mbuto ziri mu dusahani, hino hari amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'lcyongereza, amwe ari mu ibara ry'umutuku, andi ari mu ibara rijya gusa umukara.

Umuntu uri mu ishusho y'impande enye zingana wambaye indorerwamu z'amaso n'ishati y'ubururu, hejuru handitseho amagambo atsibaze ari mu ibara ry'ubururu n'andi yanditswe mu ibara ry'umweru.

Umupapa wambaye indorerwamo z'amaso na karuvati, uhagaze ahantu havugirwa ijambo, nyuma yiwe hari igitambaro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere hari imfatamashusho ihari.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako, bari mu nama, bicaye mu ntebe zisa umutuku imbere yabo hari abandi bantu bicaye babareba, harimo n'umumama ufite indangururamajwi, hino hari umugabo uri gufotora.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara n'ikote ry'umukara na karuvati, ufite umusatsi w'umweru uhagaze ahantu bavugira ijambo inyuma yiwe hari icyapa cyanditseho amagambo y'umweru, hino hari insakazamashusho iri kwerekana umuntu.

Abantu bambaye imyenda y'umweru bari mu bushakashatsi, iruhande rwabo hari abandi bantu bari mu cyumba cy'inyubako bambaye imyenda yabugenewe mu kuvura, hasi hari abandi bantu bari gukora ku myirasire, hino hari undi muntu wambaye ingofero y'urugara n'itaburiya ijya gusa ubururu uri mu murima

Inyubako itangirwamo imiti, hino hari umuryango ufunguye mo imbere harimo umumama uhetse umwana n'undi mwana mu ntoki, iruhande rwabo hari abandi bantu bahari, hino hari abamotari bahari n'imodoka.

Umuntu wambaye agapfukamunwa k'ubururu wambaye n'umupira w'ubururu ushushanyijeho amagambo mu mugongo. Wambaye ipantaro y'ikoboyi n'inkweto zifunze uri gukora isuku mu cyumba kivurirwamo abarwayi, harimo uryamye ku gitanda.

Umwana ufite umusatsi muke wambaye ikote ry'umukara, uri gusunika umupapa wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, imbere yiwe hari umumama uhari wambaye umupira w'umweru ufite umusatsi w'umukara, uri mu nyubako yubakishijwe amahema.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'iterambere imwe hejuru y'indi, imbere yayo haparitse imodoka z'amoko atandukanye, hejuru ku nyubako hariho ikimenyetso cyo guteranya n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'icyatsi.

Umupapa wambaye agapfukamunwa munsi y'akananwa, wambaye itaburiya y'umweru, ufite uburoso mu ntoki uri kwigisha umwana koza amenyo, wambaye ishati y'icyatsi, inyuma yabo hari abantu bahari, n'ikibaho.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako ifite umuryango ufunguye. Ku nyubako hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'andi ari mu ibara rijya gusa icyatsi, hino hari ikindi gishushanyijeho ururabyo.

Umukobwa ufite umusatsi uboshye wambaye impuzankano y'umweru wicaye iruhande rw'ameza, ufite ikayi mu ntoki n'ikaramu, imbere yiwe hari undi muntu uhicaye, inyuma yiwe mu mugongo hari undi uhahagaze ufite ikayi mu ntoki n'ikaramu hirya yabo hari mudasobwa ihari.

Umumama ufite umusatsi w'umukara mwinshi wambaye indorerwamo z'amaso wambaye itaburiya y'umweru uri kwita ku murwayi uryamye ku gitanda kwa muganga, witeze igitenge agakenyera ikindi gitenge hirya hari irido izinze.

Urujya n'uruza, rw'abantu bahuriye hamwe, harimo abambaye imipira isa, abandi bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari inyubako yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hirya yaho hari ihema rihari.

Inyubako ivurirwamo abarwayi igiye irimo ibyumba bigabanyijemo ibice byinshi bigiye byubakishijwe amarido, harimo umurwayi urwariye ku gitanda gifite amapine, hino hari akabati kabikwamo ibikoresho.

Icyumba k'inyubako kivurirwamo abarwayi harimo igitanda gifite amapine, n'intebe ifite amapine, hirya hari akabati karimo imiti hejuru hariho telefone hino ku gikuta hari aho bazimiriza amatara.

Inyubako ivurirwamo abarwayi irimo ameza, hejuru hariho akadobo gafite umukondo, hino hari ibitanda bifite amapine, iruhande rwabyo hateye intebe hirya hari aho bashyira imyanda.

Abantu benshi batandukanye bahagaze iruhande rw'igikuta kirekire cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yanditswe mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hari inyubako ihari n'ibiti bihari.

Inyubako ifite igikuta cy'umweru, hamwe hashushanyijeho abantu babiri bahagazeho, hasi hari amagambo yanditseho mu rurimi rw'icyongereza, hirya kuri buri muryango handitseho umubare hejuru, n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara, ari mu rurimi rw'icyongereza.

Inyubako ndende ifite ahantu bakirira abantu hino hari igiti cy'umukindo giteye mu busitani buhari bukikijwe n'indabyo, hari imodoka iri kugenda n'abantu bahagaze imbere yinyubako, hejuru ifite umurinda nkuba.

Inyubako ivurirwamo abarwayi harimo igitanda kirambuyeho umusego w'umweru, iruhande rwaho hari mudasobwa, hirya ku gikuta hariho ikirabyo kiriho gifite amabara y'umweru n'umutuku, hino hari udupapuro tumanitse ku kuma karekare.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga wiyoroshe ikuvurori, inyuma yiwe hari amarido azinze, iruhande hari ibyuma by'ikoranabuhanga, munsi y'igitanda hari inkweto zihari zifunguye n'akajerekani.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'iterambere imwe hejuru y'indi, imbere yayo hari ibiti biteye mu madebe, hejuru ku gikuta hariho kizimyamuriro, imbere hari imodoka zihahagaze, hirya y'aho hari ibiti birebire bihari.

Inyubako ivurirwamo abarwayi irimo intebe ifite amapine n'ameza arimo, hejuru hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, hino ku gikuta hashushanyijeho ibishushanyo by'udusimba tuba mu mazi, harimo n'akanyamasyo.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi gifite amadirishya afite ibirahuri by'umweru, mo imbere harimo ameza afite amapine, n'igitanda gifite amapine, hino hari akantu gateretseho telefone.

Abantu batandukanye bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, hino ku gikuta hariho itara riri kwaka urumuri rw'umweru, hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ariho, hino hari n'imodoka ihahagaze.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, hino ku gikuta hariho kizimyamuriro, hirya yaho hari ibigega bibiri n'agati gashinzeho icyapa cyanditseho amagambo, imbere yayo hari ubusitani n'indabyo zihari.

Inyubako ndende yubakishijwe amakoro ifite idirishya ribengerana, imbere yayo hari abantu bahahagaze, hino hari ubusitani buteyemo indabyo zimwe zifite indabyo z'umutuku.

Inyubako yubatse mu buryo bw'umurongo ifite amadirishya y'ibirahure bibengerana, iruhande rwayo hari abantu bari gutambuka, umwe ufite ibitabo mu ntoki uri kwitaba telefone.

Inyubako ifite igikuta giteye irange ry'mweru, umuryango ufungurirwa habiri, hejuru hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'Icyongereza, ifite igisenge gifunze neza.

Inyubako ivurirwamo abarwayi harimo icyuma umurwayi anyuramo bakamureba imbere, hino hari igitanda umurwayi aryamaho kirambuyeho akantu gasa umweru hirya hari akabati.

Inyubako ivurirwamo abarwayi, ifite umuryango ufunze, hino hari amarido ari mu ibara rijya gusa icyatsi hasi hejuru ari umweru, mu gikuta hejuru harimo amatara ari kwaka ibara ry'umweru.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ku gikuta ifite amadirishya, idirishya rimwe rifunguye, imbere yayo hari umwirasire uhari, hejuru ifite amabati y'ubururu, inyuma yayo hari ibiti bihari na moto ihaparitse, imbere hari ubutaka bwera de.

Inyubako ivurirwamo abarwayi harimo igitanda gifite amapine gishasheho ishuka y'umweru, hino hari akandi kuma gateretseho insakazamashusho gafite amapine.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara, wambaye agapfukamunwa n'utwuma mu gatuza, uri kwita ku mwana wambaye ubusa hejuru, imbere yiwe hari undi muntu uhicaye witeze igitambaro cy'umweru kirimo n'amabara y'umukara mu mutwe.

Inyubako ifite ibaraza rinini imbere y'umuryango hari intebe ihari y'icyatsi, hejuru y'umuryango hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara, imbere ku nkingi hari umukobwa uhahagaze ufite umusatsi w'umukara, imbere hari ibitaka bihari.

Inyubako itangirwamo imiti, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara rijya gusa icyatsi, hasi ku nkingi hari amagambo yanditseho asa umweru, hino hari ibibumbano by'abantu byambaye imyenda, imbere yayo hari imodoka zihari.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya menshi agizwe n'ibirahuri, imbere yayo hari jaride iteyemo ibyatsi bigufiya n'ibiti, imbere hari inzira nyabagendwa.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara wambaye impuzankano y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, wambaye akuma mu gatuza uri kumwe n'umumama wambaye ikanzu y'igitenge witeze igitambaro cy'umukara, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ya rukarakara, hirya hari insina z'imibyare n'indabyo zihari.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi harimo igitanda gifite amapine kirambuyeho igitambaro kijya gusa ubururu, hirya hari insakazamashusho zihari, hejuru ku gisenge hari amatara arimo, hino hari ubundi bukoresho bwinshi bufite amapine.

Inyubako ivurirwamo abarwayi, hino hari intebe zihari hari indi iri iruhande rw'ameza ateretseho televiziyo, hino hari akabati karimo imiti munsi no hejuru, hirya hari ibishushanyo by'abantu biri ku gikuta.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'iterambere, imwe hejuru y'indi, ifite amadirishya y'ibirahuri, imbere yayo hari icyapa gihari cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, andi ari mu ibara ry'umweru, n'andi ari mu ibara rijya gusa icyatsi kivanze n'umuhondo wijimye.

Inyubako ivurirwamo abarwayi irimo intebe ifite amapine n'igitanda gifite amapine gishasheho ishuka y'ubururu, gifite umusego w'umweru, hirya ku gikuta hariho ibishushanyo bitandukanye by'abantu, hejuru yaho hari insakazamashusho ihari.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'iterambere, imwe hejuru y'indi, imbere yayo hari itara rihari, hino hari imibare yanditse ku nkingi, imbere yayo hari icyapa gihari cyanditseho amagambo atandukanye, hari insinga z'amashanyarazi ziri kunyura hejuru n'ubusitani buri imbere y'inyubako.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara uboshye ugera mu mugongo, wambaye agapfukamunwa k'umukara n'indorerwamo z'amaso, wambaye amaherena ku gutwi, wambaye impuzankano y'umweru, uri gukoresha mudasobwa irambitse imbere yiwe.

Inyubako ndende, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru atsibaze hejuru y'aho binjirira, imbere yayo hateye igiti kirekire, iruhande hari ibyatsi bihateye n'inzira nyabagendwa.

Inyubako yubatse mu buryo bw'iterambere, imwe hejuru y'indi, hasi hari imodoka zihahagaze n'abantu bahahagaze, hino ku nyubako hashushanyijeho igishushanyo cy'umugore utwite, hariho agatima k'umweru ku nda n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Umuntu ufite umusatsi uringaniye wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze, wicaye ku gikuta gikozwe n'amabuye, inyuma yiwe hari igiti kirekire cy'inganzamarumbo gifite amashami menshi atandukanye, iruhande rwiwe hari ibyatsi bihari, hirya hari inzu ihari.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi hakoreshejwe imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma bitandukanye bimwe bifite mudasobwa imbere yabyo, hirya ku gikuta hari insakazamashusho iriho irimo umuntu, hejuru ku gikuta harimo amatara ari kwaka.

Inyubako ivurirwamo abarwayi harimo igitanda gifite amapine n'ameza ahari, hirya hari amarido azinze, harimo n'ibindi bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa iteretse hejuru y'ameza.

Icyapa gifite amaguru abiri y'ibyuma cyanditseho amagambo ari mu'i ibara ry'umutuku n'adi ari mu ibara ry'ubururu, n'andi ari mu ibara ry'umukara, inyuma hari umuhanda urimo moto n'imodoka.

Inyubako ivurirwamo abarwayi, irimo igitanda gifite amapine, hino hari aho babika ibikoresho, hino hari ameza iruhande rwayo hari intebe ifite amapine, hirya ari insakazamashusho, iri ururuhande rw'igikuta.

Inyubako ifite umuryango ufunguye mo imbere harimo imiti igiye ipanze mu buryo bunyuranye, imbere yayo hari ibyapa bitatse ku gikuta byinshi, hejuru hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru.

Inyubako ndende ifite amabati y'umutuku akozwe n'imihiro, imbere yayo hari abantu bari kugenda, hino ku ibaraza hari undi muntu uhahagaze, imbere hari umuntu uri kugenda mu nzira ihari, hari n'ubusitani buhari.

Inyubako ndende, ifite ibirahure hejuru yayo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu, hino hashushanyijeho ijisho, hasi ku rugi hariho igitambaro gishushanyijeho abantu.

Umukobwa ufite imisatsi yoroshye, wambaye isengeri n'ikabutura ijya gusa ubururu, umanitse akaguru ufashe mu ivi, wambaye inkweto z'umweru zifite imishumi y'umweru.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo intebe ifite amapine n'indi y'inyegamirwe ifite amapine, byose biri mu ishusho y'ibara ry'ubururu, hirya ku gikuta hari insakazamashusho.

Imiti iri mu macupa atatu y'ubwoko bumwe, ifite imifuniko isa y'umweru, ifite indiba zimeze nk'uruziga, inyuma hometseho igipapuro cyanditseho amagambo ari mu iba ry'umweru andi ari mu ibara ry'umuhondo n'andi ari mu ibara ry'umutuku.

Amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu atsibaze hasi hari imibare yanditseho, hino hari agakoresho gakoreshwa mu myitozo ngororamubiri kanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'andi ari mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri bambaye udupira tw'umutuku bari kwita ku murwayi wavunikiye mu kibuga bari kumusiga umuti, inyuma yiwe hari abandi bakinnyi bahahagaze bari kubareba, hirya gato hari undi muntu uri kubafotora uhari.

Ibikoresho bitandukanye birambitse hejuru y'ameza, harimo igikoreshwa mu guterura n'amaboko, hino yaho hari urusenda n'ironji rikasemo kabiri, hirya hari icupa ririmo amazi.

Inyubako icururizwamo imiti gakondo irambuye hejuru y'ameza, hariho iri mu macupa y'ubwoko butandukanye, indi iri mu bikarito, kimwe gishushanyijeho umuntu uri kwihambira akaboko hino hari ibinini biri mu mashashi.

Amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'andi ari mu ibara rijya gusa umukara, hino hari ikizeru gishushanyijemo umuntu usutamye n'ikindi gishushanyijemo umuntu urambuye amaboko. Hasi hari undi muntu ufashe ukuguru.

Umuntu uri kwikanda akoresheje imyitozo ngororamubiri, ufashe ku itako wambaye ikabutura y'umukara, iruhande rwiwe hari amagambo yanditse mu ibara rijya gusa ubururu atsibaze, hasi hashushanyijeho akantu kameze nk'ingufuri.

Umuntu wambaye umwenda w'umweru hasi, wicaye mu ntebe uri kuvurwa mu ivi, bashyizeho agatambaro k'umutuku uri kwitabwaho n'undi muntu wambaye itaburiya y'umweru ufite intoki zijya gusa umweru.

Umupapa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara izirikishijwe umukandara w'umweru, inyuma yiwe hari umumama wambaye itaburiya y'ubururu, hirya hari idirishya.

Icyumba cy'inyubako gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo umumama wicaye hejuru ya tapi isa ubururu, uhinnye umugongo, wambaye udukomo ku maboko, ufashe munsi y'ibirenge, ufite inzara zisize ibara ry'umutuku.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara ufite ubwoya ku maboko n'uduheri ku kiganza, ufite inzara z'umweru, ufite agatambaro gatose mu ntoki uri kugakoza ku ivi, ufite ubwoya bw'umukara ku maguru.

Amagambo atsibaze yanditswe mu ibara ry'ubururu, munsi hari andi yanditswe mu ibara ry'umweru, iruhande rwaho hari akantu kameze nk'uruziga, karimo umurongo utambitse n'undi uhagaze n'indi ibiri iteganye ibereretse, hasi hari ibishushanyo.

Umupapa ufite ubwanwa bw'umukara, ufite amaboko manini, wambaye isaha ku kuboko n'umupira w'umukara n'ikabutura, ufite igishushanyo ku kaguru, wambaye inkweto zifunze munsi harimo amabara y'umukara.

Umuntu wambaye ishati y'umukara y'amaboko maremare, uri gushyira igipfuko ku kiganza cy'umuntu umwicaye iruhande wambaye umupira w'amaboko maremare n'ikabutura y'umukara, mo imbere harimo akandi gakora karekare, iruhande rwabo hari igikapu.

Abantu bicaye mu ntebe bambaye imyenda y'umweru bamwe, bose bafite amakaye n'amakaramu mu ntoki bari kwandikamo, imbere yabo hari umupapa uhahagaze wambaye itaburiya y'umweru uri kubasobanurira.

Akantu k'umukara bambara mu ivi kagizwe nu'utudomo tw'umukara twinshi, gafite imirongo imanutsemo iri mu ibara ry'umweru, hasi hashushanyijeho ikirenge n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru.

Umupapa usutamye umanitse amaboko, wambaye umupira w'umukara wanditseho amagambo mu gatuza, n'ipantaro y'umukara, amatsemo umurongo w'umweru wambaye inkweto zifunze, imbere yiwe hahagaze umukobwa wambaye umupira w'ubururu, n'ipantaro y'umukara, n'inkweto zifunze.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara uboshye uzingiye hejuru, uri kwikora mu bitugu wambaye agasengeri kajya gusa umweru, gafite umuguno w'umukara wambaye isaha ku kuboko.

Icupa ry'amazi risa ubururu, amazi arimo kuvamo asa umuhondo, rifite umuguno w'umutuku uri gusuka amazi mu gikombe gifite indiba imeze nk'uruziga.

Umuntu w'umugore ufite umusatsi mwinshi w'umukara, wambaye ipantaro ijya gusa umweru n'agasengeri kajya gusa umuhondo, wunamye akaboko kamwe gafashe mu mugongo, akandi gafashe munsi y'ikirenge.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo imiti iri mu mashashi, hari uturindantoki tujya gusa umuhondo n'ibinini, hari indi iri mu macupa maremare, hino hari akandi gashashi karimo ikinini kimwe.

Umumama ufite umusatsi w'umukara, wambaye amaherena n'umupira w'umutuku n'agakabutura kajya gusa umweru, uri kuvurwa mu ivi n'umupapa wambaye isaha ku kuboko n'itabuririya y'umweru n'akuma mu gatuza.

Umupapa wambaye ikote ry'umukara rifite imashini ifunguyeho gatoya, wambaye impeta ku ntoki, mu gatuza kiwe harimo igishushanyo kimeze nk'uruziga, munsi hari amagambo yanditseho, uri kwita ku muntu wambaye uturindantoki dukomeye turimo amabara y'umukara n'umweru.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye agapfukamunwa wicaye mu ntebe wambaye ikaburiya y'umweru, uri kureba mu kanwa k'umwana wasamye, imbere y'iwe hari ameza ahari, inyuma ye hari abandi bantu.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri ufite umusatsi muremure, wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara, umanitse amaboko mu kirere, ibiganza bifatanye imbere yiwe hari amazi.

Icyumba cy'inyubako gicururizwamo imiti itandukanye, hari irimo mu makarito n'indi iri mu macupa, imwe iri mu ibara ry'umweru, indi iri mu ibara ry'umweru rivanze n'umuhondo, hino hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku yanditseho.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu kibuga bakiniramo umukino w'amaboko, inyuma yabo hari inyubako ihari, hino hari icyapa gihari, hirya hari itente.

Umupapa uryamye ku gitanda kiri mu nzu, wambaye isaha y'umweru ku kaboko n'agakomo ku kandi kaboko, ufashe telefoni mu ntoki, uri kugororwa mu ivi n'undi mupapa wambaye umupira ujya gusa ubururu n'agakomo ku kaboko, inyuma yabo hari intebe ihari.

Umupapa uhagaze ku rwego ari kwakira uruziga rw'insinga, uri kuzabwa n'umuntu uri hasi wambaye agapfukamunwa n'imyenda y'ubururu uteruye ikintu mu ntoki gitukura, inyuma y'iwe hari undi muntu uri kugenda, inyubako ifiteho amagambo yanditse hejuru mu rurimi rw'Icyongereza.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara uboshye urimo utuntu tw'umweru, wambaye agapfukamunwa kajya gusa ubururu, n'uturindantoki tw'ubururu, n'itaburiya y'ubururu, imbere yewe hari ameza ahari arambitseho mudasobwa.

Abantu bane bari mu myitozo ngororamubiri, birukanka bose bambaye inkweto zifunze n'amakabutura, n'imipira y'amaboko maremare, iruhande rwabo hari umwanya urimo ibyatsi.

Umupapa ufite umusatsi mukeya, ugaragara ugutwi kumwe, wambaye ishati ijya gusa umutuku, wicaye ku ntebe y'umweru iruhande rwiwe hari indi ntebe ihari ifite amapine, imbere yiwe hari mudasobwa ihari irambitse hejuru y'akabati.

Insakazamashusho zitandukanye hariho amashusho y'ibishushanyo bitandukanye, hasi hari imibare yanditseho imwe iri mu ibara ry'umweru, hari n'amagambo yanditseho ku gice kimwe inyuma hari abantu.

Umuntu ufite imisatsi y'umukara izingiye hejuru, wambaye isengeri n'ikabutura y'umukara imanutsemo uturongo tubiri uri kwirukanka, hejuru yiwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku n'andi yanditse mu ibara rijya gusa umukara.

Umupapa wambaye umupira w'umukara mw'imbere, inyuma wambaye umupira w'umweru ufite ikola n'ibifungo, ufite ubwoya bw'umukara, uri kwikonjesha agatambaro gatose, wicaye mu ntebe z'umweru.

Umumama ufite uruhu rwera wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro isa umukara, uri kwita ku kana kicaye imbere y'umumama wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, iruhande rwabo hari abantu n'intebe.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umukara wanditseho amagambo mu gatuza n'ikabutura y'umukara ifiteho akantu k'umweru ku itako, wambaye n'inkweto zifunze mo imbere harimo amasogisi y'umukara, hirya yiwe hari ibiti.

Umusore ufite agatuza kanini n'akaboko kanini kariho imitsi wambaye isaha ku kuboko n'ikabutura ku maguru wishushanyijeho ku itako, wambaye inkweto zifunze zirimo amabara y'umweru, umutuku n'umukara.

Umuntu wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara ifite umufuka inyuma, uri kuvura ku maguru undi muntu uryamye ku gitanda gishasheho agatambaro k'umweru, wambaye ikabutura y'umukara.

Abantu bicaye bambaye amakoboyi, imbere yabo hari udukarito turimo imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze. Hirya yaho hari abantu bahicaye bambaye imyenda y'umuhondo, gusa inyuma yabo hari abandi bantu bahari. Hino hari ibyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kureba umupira w'amaboko, mu kibuga harimo abakinnyi bambaye imyenda y'umweru hose, hamanutsemo umurongo w'umukara n'abandi bambaye amasengeri y'umweru n'amakabutura y'umukara, hirya hari abantu bambaye imyenda y'umuhondo bafashe icyapa.

Umukobwa wambaye amaherena ku gutwi, ufite umusatsi w'umukara, wambaye umupira w'umweru ufitemo utuntu tw'umukara, witeye igitambaro cy'umukara ku rutugu, uri kunywa amazi mu icupa.

Ibiti bihinze mu madebe biteretse hejuru y'ibyuma byubakishijwe na senyenge, bigiye bikoze ishusho ya kare, hejuru hari igikakarubamba.

Imiti gakondo iri mu tuntu tunyuranye turambitse hejuru y'umukeka, iruhande rwaho hari undi mukeka uzinze, imwe isa umweru, indi isa ikigina, bumwe ari ubufu ibindi tumeze nk'ibijumba.

Igitambaro kiri mu ibara ry'umuhondo, hariho agasimba kari mu ibara ry'umukara kari kuguruka, munsi hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara, hirya hari ibara ry'icyatsi rimanutsemo hariho agasahani karimo imiti.

Icupa ririmo umuti gakondo, rifite umufuniko w'umweru umanutsemo uturongo duhagaze, hasi ku icupa hariho icyapa kiriho agasimba kari kuguruka n'amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu, hasi hari andi yanditswe mu ibara ry'umweru.

Imiti gakondo iri mu macupa y'ubwoko bubiri butandukanye, rimwe rirerire irindi ry'ikibundi riri mu ishusho y'uruziga, amacupa yose ashushanyijeho udusimba turi kuguruka n'amagambo yanditse inyuma ku icupa, hejuru hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara.

Umumama wambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo, umukara n'andi y'umutuku, uri gusoroma akarabyo kari ku zindi ndabyo zifite amababi y'icyatsi.

Intoki z'umuntu zifashe ku giti cy'umuravumba kiriho ikibabi kimwe kiri mu gasahane gateretse hejuru y'ameza, harimo n'ikindi giti, hirya hari indobo irimo ibyatsi.

Imiti gakondo iri mu bintu bitandukanye, imwe iri mu bikarito, indi iri mu tubuni turi mu ibara ry'umuhondo, hino hari indi iri mu macupa magufiya, inyuma ari igitambaro gishushanyijeho umuntu.

Ameza ariho agasahani karimo ibintu by'umuhondo n'ikiyiko kiriho hejuru, hirya ari tungurusumu zihari, hino ari imboga z'icyatsi, hejuru hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, imwe iri mu bikarito, indi iri mu macupa y'umuhondo, indi macupa y'umweru agiye ifite imifuniko itandukanye, hirya yaho hari agatete gahari mu miti, hirya hari igitambaro kirambuye ku gikuta.

Ibinini biri mu dufuniko tw'udushashi; inyuma yabyo hari igikarito kirimo imiti gakondo, gishushanyijeho ikimenyetso kiri mu ishusho y'uruziga n'imibare yanditseho n'amagambo yanditseho, ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye indi iri mu bikarito, imwe isa umweru indi iri mu bikarito bisa umuhondo, biciyeho ibara ry'icyatsi kuri buri muti hariho amagambo yanditseho.

Imiti gakondo ipfunyitse mu bikarito bitandukanye, imwe iri mu bikarito bisa umweru, indi iri mu bikarito bijya gusa ubururu, hino yaho hari imineke ihishije n'inanasi n'indabyo z'umuhondo.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye: amwe y'imihondo, indi iri mu gikarito cy'umweru gishushanyijeho umuhini ushinze mu gasahani, hino ku icupa hariho udusimba dushushanyijeho turi kuguruka, n'igikakarubamba.

Imiti gakondo iri mu mabara atandukanye iri mu macupa y'ubwoko bumwe, buri cupa ryose inyuma ryifiteho igipapuro cyometseho, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, amwe ari mu ibara ry'umukara, andi ari mu ibara ry'ubururu n'andi ari mu ibara ry'umweru.

Imiti gakondo iri mu macupa y'ubwoko butatu, rimwe risa umweru irindi risa umuhondo irindi risa umweru yose, afite imifuniko itandukanye, hariho udusimba turi kuguruka hariho, amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hose hashushanyije igikakarubamba.

Umuntu uteruye ibintu by'ikigina mu ntoki, iruhande rwiwe hari abantu babiri bari mu murima hasi hari undi muntu ufashe ku ngiga y'igiti kirekire, hino hari ibyatsi birandaranda biteye mu murima.

Igikarito gisa ikaki hino hari ibyatsi bihari, hari uruzitiro rwubakishijwe senyenge, hirya hari ibyatsi birebire, hino hari isafuriya ifite irangi ry'umukara.

Ibikarito bitatu biteretse hejuru y'ingiga eshatu z'ibiti zibaje neza, ku bikarito hari amagambo agiye yanditseho, inyuma hari ibyatsi bisa neza n'ibiti.

Icyatsi kirandaranda, gifite ibibabi byinshi bitandukanye, bimwe bisa icyatsi cyijimye, ibindi bisa icyatsi kijya kuba umuhondo, hasi yaho hari ibindi byatsi byahashangukiye, bisa ikigina.

Imiti gakondo iri mu bintu bitandukanye imwe iri mu bikarito bimeze nk'amashashi, indi iri mu macupa y'ubwoko butandukanye, yose ishushanyijeho agasimba kari kuguruka hari amagambo yanditsweho hirya hari ibiti.

Igikarito kirimo umuti gakondo, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu atsibaze n'andi ari mu ibara ry'umutuku, hejuru hari andi ari mu ibara rijya gusa icyatsi, hariho ibara ry'umuhondo.

Icupa ririmo umuti gakondo rifite umufuniko umanutsemo uturongo uri mu ibara ry'umweru, hino hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'akamenyetso k'icyerekezo, hejuru hariho agasimba kari kuguruka.

Akabuni karimo umuti gakondo, gafite umukondo, gafite umufuniko w'umutuku, hino hari amagambo yanditseho, ari mu ibara rijya gusa umutuku, hariho agasimba kari kuguruka, kari mu ibara ry'umutuku.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare ufite inzara z'umweru, ufashe ikibabi cy'igiti kitarakura gifite amashami atatu, hirya yayo hari ibindi byatsi bihari bigufiya.

Imiti gakondo iri mu macupa abiri acuritse hagati yabo harimo igikarito nacyo kiri umuti gakondo, hose handitseho amagambo agiye atandukanye, hose hariho agasimba kari kuguruka gateze amababa.

Umuti gakondo uri mu icupa ry'umweru ricuritse, rifite umufuniko w'umuhondo, hino ku icupa hashushanyijeho ibintu bijya gusa ikigina, hariho agasimba kari kuguruka kari mu ibara ry'umweru n'amagambo yanditswe rurimi rw'Icyongereza.

Ikibabi cy'umuravumba gifite amashami atandukanye hari imirongo hagati ku ishami igiye inyuranyuranyemo, inyuma yabyo hari ibindi byatsi bihari bimwe bifite indabyo z'umweru.

Akabuni gafite umufuniko w'umutuku kari mu ibara ry'umuhondo, hariho agasimba kari kuguruka kari mu ibara ry'umutuku, hasi hari amagambo yanditseho akibaze, ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ibikarito birimo imiti gakondo, inyuma handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ry'ikigina n'andi ari mu ibara ry'umukara n'uturongo tuvivuyeho ku ruhande.

Igiti gifite amababi menshi atandukanye asongosoye ku mutwe, hirya hari ibindi biti bihari byinshi hino hari ibyatsi byahashangukiye.

Icyatsi kirandaranda, gifite utubuto dutoya tujya gusa umuhondo n'utubabi twumiranye dusa ikigina hasi hari amababi y'icyatsi.

Icupa ririmo umuti gakondo rifite intango ijya kumera nk'uruziga rufite umuvuniko w'umweru, umanutsemo uturongo duhagaze, ku icupa hariho agasimba kari kuguruka n'amagambo yanditseho mu rurimi rw'Icyongereza.

Igishokoro gifite ibibabi by'icyatsi n'indabyo z'umweru n'izindi zitarapfundura, zifiteho utuntu tw'umuhondo hejuru, hirya hari ibindi byatsi byinshi bihari.

Icyatsi kirandaranda gifite amababi y'icyatsi menshi, gifite utubuto twapfundutse turi mu ibara ry'umuhondo n'utundi tutarapfunduka.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, imwe iri mu tubuni, indi iri mu macupa y'umweru ameze nk'ibiziga, indi iri mu macupa maremare, imwe ishushanyijeho igikakarubamba, indi ishushanyijeho udusimba turi kuguruka.

Icupa ririmo umuti gakondo rifite intango imeze nk'uruziga, rifite umusuniko w'umweru, iruhande rwaho hari ibiganza bibiri biri gusuhuzanya, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara atsibazi, hasi hari ayandi yanditse mu ibara ry'umukara.

Umupapa wambaye ingofero y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu, wambaye itaburiya y'umweru ifite ikora ry'umukara uri gupanga imiti mu dukarito dutandukanye, hirya hari urugi rufunzeho.

Imiti gakondo iri mu bikarito, iriho igishushanyo gikoze uruziga gifite ikerekezo hariho imibare yanditse mu ibara ry'icyatsi n'amagambo yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza, hasi hari andi yanditswe mu ibara ry'umweru.

Imiti gakondo iri ku meza imwe iri mu dutete, indi iri mu gasahani ari ibibabi by'umwenya birimo harambitsemo n'umuhini, hagati yabyo harimo umunzani, hirya hari indabyo z'umuhondo.

Umuntu wambaye umupira w'umweru uri kureba muri telefoni n'ipantaro y'umweru, iruhande rwiwe hari akantu gateretsemo imiti mu byumba bigiye bitandukanye, hirya hari igiti cy'umukindo, hino hari umuntu uri kugenda inyuma y'iwe hari moto.

Igiti gifite ingiga ndende n'amashami menshi hejuru, afite amababi y'icyatsi, hasi hari ibindi byatsi byinshi bihari, hirya hagiye harimo ibiti birebire.

Icyatsi kirekire gifite ibibabi byinshi bitandukanye bigiye bimanunitseho uturongo turi mu ibara ry'umweru, hirya hari ibindi byatsi byashengukiye hasi n'ikindi giti.

Icupa ririmo umuti gakondo rifite umufuniko w'umweru n'indiba ijya kumera nk'uruziga, hariho amagambo yanditsweho mu rurimi rw'Icyongereza n'agasimba kari kuguruka hasi handitseho umubare.

Agasimba kari kuguruka kari mu ibara ry'umweru. Amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, hino hari agacupa gahari karimo umuti gakondo gashushanyijeho igikakarubamba, hino yako hari akandi gahari kagufiya byose biri ku meza.

Abantu bari kugenda mu murima uhinzemo inanasi, imbere yabo hari icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu guhinga, hari n'igiti kirekire gihari, hirya hari umusozi.

Umuntu uri mu cyumba cy'inyubako gikorerwamo ubushakashatsi ufite umusatsi w'umukara n'itaburiya y'umweru wicaye mu ntebe izindi zitarimo abantu, imbere yiwe hari ameza ateretseho amacupa.

Ameza ateretseho isahani y'umweru iriho imiti gakondo, hariho amaronji akase n'izindi mbuto ziriho, hariho n'icupa rifite umufuniko w'umweru, hasi hariho icyapa cyanditseho amagambo atandukanye n'agasimba kari kuguruka.